Ibimera ndetse n'ibindi bikomeye cyane, ni ngombwa yuko bishyirwa ku nkuta abana bigaho mu rwego rwo kugira ngo bijye bibarangaza.

Ibigo by'amashuri, yaba aya leta ndetse n'ayigenga, cyane cyane ay'incuke ndetse n'ababanza, hari gushyirwamo ingufu, mu gushyiraho ibishushanyo bizajya bifasha abana, kuruhuka mu mutwe.

Bimwe mu bikinisho birimo iby'abana batoya, harimo ingona, imbogo ndetse n'ibindi bifashisha kugira ngo bitagira icyo bibatwara.

Ibishushanyo birimo inyamaswa z'agasozi ibiti ndetse n'abantu, ni byo byifashishwa ku nkuta zigishirizwamo abana b'inshuke ndetse n'ab'amashuri abanza, mu rwego rwo kugira ngo bibigishe.

Abana igihe babona ibikinisho bifite amapine ndetse n'ikindi twakwita nk'uruziga rutwara imodoka, iyo babyicayeho baba bameze nkaho bari mu modoka zabo.

Abana ndetse n'ababyeyi babo igihe bicaye mu rugo bari kuruhuka, yaba umubyeyi w'umugabo ndetse n'umugore, ni ngombwa ko basubirishamo abana imikoro kugira ngo bayumve neza.

Mu bikoresho byifashishwa mu gukora umuziki, hagaragaramo ibyitwa amananota aho umuntu ugiye gucuranga aba afite amanota aribukoreshe kugira ngo bigende neza.

Umumotari wambaye ikote ririmo amabara atandukanye, nk'umuhondo, umukara ndetse n'ibindi wifubitse igitambara cyo mu mutwe, aravuga ko amaze kugera kuri byinshi abikesheje akazi akora.

Mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa by'ubuhanzi ndetse n'ubugeni hari insanganyamatsiko ivuga uburyo umuntu ashobora kumenya umuntu wibitseho ubwo bumenyi mu rwego rwo kugira ngo bazamure impano zazimye.

Abana igihe babonye amafi ashushanyije ku nkuta z'aho bigira ,kenshi na kenshi bumva ko ari byiza kandi batari bonyine ko baba bashaka bose gukoraho ngo barebe ukuntu biza kugenda.

Ibikinisho by'abana, birimo ibishushanyo nk'intare, imodoka ndetse n'ibindi, bibaruhura mu mutwe ubundi bakumva batabayeho bonyine ,ahubwo bitayeho kugira ngo bose bisangemo.

Abanyeshuri batsinze neza mu bizamini bya Leta bisoza amashuri abanza, bashyikirijwe ibihembo byabo biririmo mudasobwa, amatayi, amakaramu ndetse n'ibikapu.

Abana barasabwa gusubiramo kenshi amasomo biga kugira ngo batazaba injiji, ubwo bazaba bimukiye mu wundi mwaka kuko bibaviramo gusibi igihe batakoze, ibyo bategetswe.

Gahunda Leta y'u Rwanda yiyemeje, yo kwagura ikoranabuhanga mu mashuri, hari gahunda yashyizweho yo kugira ngo buri munyeshuri wese ajye arangiza amashuri yisumbuye, nibura azi byinshi kuri mudasobwa.

Abantu biga ibikoresho bijyanye n'imibare, bavuga yuko: irati, gome ndetse n'amakaramu bifasha cyane cyane abanyamibare, mu kwiga isomo bita Arijebura.

Ibishushanyo birimo abana ni byo byifashishwa mu kugira ngo birangaze ndetse binatume abana bagira akanyamuneza igihe bari gukurikira amasomo ndetse n'igihe bari gusobanurirwa inkuru.

Umukasi, ibitabo, karikilaterise ndetse n'amakaramu, nibyo abana batumwa igihe barangije amashuri abanza, bagiye mu yisumbuye kugira ngo bijye bibafasha kwiga neza.

Abana biga mu bigo by'amashuri abanza baravuga yuko bakeneye gahunda yo kuzajya basurwa n'ababyeyi babo kugira ngo harebwe neza niba bakurikirana amasomo uko bikwiye.

Mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, hakunze kwifashishwa ibishushanyo by'udukuru dutoya tw'abana, aho tugenda tubigisha uko bagomba kwitwara.

Abana batoya igihe beretswe ibishushanyo byiza birimo ibikinisho ndetse n'uburyo abana bitwara mu ishuri na byo biri mu bibafasha kubaho ndetse bakagira n'ikizere k'ejo hazaza.

Ibigo by'amashuri bigezweho mu mujyi wa kigali, hari uburyo bwiza bw'ibikinisho ndetse n'imitako, ishyirwa mu ishuri ku bana biga mu mashuri y'incuke, ku buryo biga neza abatekanye.

Bimwe mu bikoresho bigaragaza umubumbe w'isi, abana igihe babibonye, babigiraho urujijo cyane. Bitewe n'uko baba badasobanukiwe n'imikoreshereze yabyo. Bamwe hari n'abagira ngo n'imipira bakina mu kibuga.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu isomo ry'Imibare harimo kerayo, amarate ndetse n'ibindi bibafasha kugira ngo bige neza.

Iyi imikino irimo amakarita, hari benshi bakunze kuyikina bazi ko ari ibintu byaje ubu ariko ngo byahozeho kuva na kera hose, aho muri za bibiri na makumyabiri na rimwe, umubare wazamutse cyane.

Ku gifuniko k'igitabo k'inkuru yitwa Gakire ndetse na Gasaro hagaragara agakobwa gafite ikanzu ijya gusa nk'umutuku kari kwirukanka cyane na gasaza kako bagiye ku ishuri.

Abacuruza ibikoresho birimo amakayi ndetse n'amakaramu, byifashishwa cyane cyane mu bigo by'amashuri, barinubira uburyo ki bashyiriweho umusoro ku nyungu uri hejuru, ugereranyije n'uko bari basanzwe basora.

Mu turirimbo dukorwa n'imashini, izi zizwi nka mudasobwa, dukoresha ibishushanyo bigaragaza abantu, abana bakunda ibi bihangano bitewe n'uko baba babona bameze kimwe.

Ibikapu ni bimwe mu bituma abantu babasha gutwara ibintu byabo neza ariko ubu bikaba bikomeje kuzamura ibiciro byabyo kuko ubu ngubu igikapu cya make kigeze ku mafaranga ibihumbi makumyabiri na bitanu.

Ibikinisho by'abana ,ni ikintu kibafasha mu mikurire yabo ya buri munsi ,bitewe n'uko igihe babibona hafi bababumva batari bonyine ubundi irungu rigashira, bakabasha kuba babaho neza.

Amazu atandukanye y'ubucuruzi, harimo n'ubwambukiranya imipaka avuga ko ibikoresho bikoreshwa mu biro birimo imashini zikoreshwa mu mibare ndetse n'utundi bikomeje guhenda cyane bitewe n'uko biri kubura.

Hashyizweho uburyo bw'uko abanyeshuri bazajya bafatira ifunguro ku ishuri, abazajya babatekera, bazajya baba bafite imyambaro ibaranga, izwi nk'amajiri.

Ikigo cy'amashuri kisumbuye cya Nkombo cyatsindishije abanyeshuri babarirwa muri mirongo itanu ku ijana by'abo biganaga bitewe n'uko babuze amafaranga yo kwishyura.

Imyicungwa ndetse n'utundi dukino ni ingenzi cyane mu bigo by'amarerero kubera ko igihe abana batabihasanze bibatera irungu ndetse bakaba batakwiga neza.

Umuyobozi umwe mu ishuri ryigisha ubumenyi n'amateka yahagaze imbere mu kibuga bakiniramo umupira w'amaboko uzwi cyane nka Basikete ubundi agira inama urubyiruko.

Umuyobozi igihe asoje kubwira abaturage, aba agomba kubagira inama z'uko bagomba kwitwara kugira ngo birinde ubujiji ndetse n'indi mitego yose yabashyira mu nkiko.

Muri nzeri uyu mwaka hakozwe ubushakashatsi ku kigero k'imitsindire y'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu ubushakashatsi burangira bwemeje ko abakobwa batsinda cyane urengeje abahungu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye biravugwa y'uko na bo bakwiye kugira uruhare mu kwifatira imyanzuro yabo igihe babonye ko hari ibitagenda neza.

Abana iyo basoje amasomo barishima kandi bakaganira byinshi bahuriyemo ndetse n'andi masomo yo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ubundi bikabafasha kwigirira ikizere.

Abana batoya biga mu ishuri ryisumbuye riherereye mu Karere ka Nyagatare, bavuze yuko bahagurukiye ihohotera rikorerwa igitsina gore, ubu rwose bakaba biteguye gutanga umusanzu wabo mu kurihashya.

Mu kubaka uburyo bwiza bw'imyigire ndetse n'amashuri hari ba rwiyemezamirimo bavuga ko kubakira ubwiherero abakobwa ndetse n'abahungu busukuye ari byo bizabafasha mu kugira isuku.

Mu kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina, umukobwa umwe wo mu kigo Indatwa cyo mu karere ka Huye, aravuga yuko umwana w'umukobwa akwiye kubahwa ndetse agashyigikirwa.

Inzu zo gutorama zirimo amahoteri ndetse n'ibindi bigo bishinzwe kwakira abantu mu mujyi wa Musanze, hari benshi bakomeje gutaka urusaku zigenda ziteza mu gihe abantu baba basinziriye.

Ibikorwa birimo imitako ndetse n'ibindi by'ubugeni, ni byiza kuko abantu babikoresha, baba bafite icyizere cy'uko ejo cyangwa ejo bondi bazarya, ku byo baruhiye.

Abanyeshuri biga muri kaminuza biba byiza igihe bafite mudasobwa zibafasha mu myigire yabo kuko igihe batazifite bibabangamira mu gukora ubushakashatsi ubundi iterambere ry'uburezi rikadindira.

Mu cyumweru, cyahariwe amasengesho, umuyobozi, Naphtal KARANGWA, niwe wigishije, kuri uyu munsi, kuko andi makorari agiye atandukanye, ariyo yabanje kuririmba.

Mu nama yahuje abanyeshuri ndetse n'abayobozi ba kaminuza y'u Rwanda hanzuwe yuko buri munyeshuri wese azajya atanga ibihumbi mirongo itatu na bitanu mbere yo kugira ngo yiyandikishe.

Uburyo bwashyizweho bwo kwigishiriza abana ku bibaho bigezweho, buvuga ko biri gutera icyizere cy'uko nta muntu uzongera guhura n'ibibazo by'ubuhumekero byaterwaga n'ibibaho bitameze neza.

Kaminuza ndetse n'ibindi bigo byikorera bivugwa ko ari zimwe mu nzego za leta zitanga icyizere cy'uburezi bw'ejo hazaza igihugu cyifuza bitewe n'abantu babishimangira.

Kubaka parikingi ihagije, mu bigo bitanga inguzanyo ndetse na serivisi mu Rwanda, ni byiza kubera ko bituma abantu baza babigana biyongera, bitewe n'umutekano w'ibinyabiziga byabo.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye na za kaminuza buri gutera imbere bitewe n'uko abarimu batagikoresha amataye n'amakara ahubwo hashyizweho uburyo bwo kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Mu bikorwa birimo ubugeni ndetse n'ubukorikori hagenda hacurwa ibikoresho byinshi ndetse bimwe bikaba byinjiza amafaranga atari make ku bantu babikora.

Abanyeshuri biga mu makaminuza atandukanye basinye amasezerano y'uko bagomba kugira ubufatanye n'ibigo biteza urubyiruko imbere rubaha ibishoro.

Mu gukora ibigage ndetse n'ibindi bikomoka ku bintu bisembuye, harimo nk'inzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge bikoresha n'ibikoresho bya purasitike kandi ntago ari byiza ku buzima bwa muntu.

Mu mashuri makuru ndetse aya azwi nka kaminuza, hari uburyo bwashyizweho bwo kujya bandikisha amakaramu yabugenewe azwi nka marikeri aho kugira ngo hakoreshwe ingwa.

Gukora ibikorwa by'ubukorikori birimo no kuboha ndetse no kudoda, bituma abaturage babikora babonana nabo agafaranga bombi bakikura mu bukene, ugereranyije n'ababa bicaye ubusa.

Amakaminuza menshi atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, akomeje kuza ku isonga mu kuba aya mbere bitewe nuko ubusitani bwayo buba bumeze neza kandi bukaba bukorerwa isuku uko bwije nuko bukeye.

Mastercard foundation, ni umushinga ufasha abanyeshuri ndetse n'abandi bafite imishinga, yaba iciriritse ndetse n'iyiteje imbere kugira ngo iki kigo kibafashe mu kubatera inkunga.